Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba afite n'agakoresho mu ijosi rye kifashishwa mu kumva imiterere y'umutima, mu biganza bye byombi yafashemo udukarito dufite ibara ry'umuhondo turimo imiti.

Icyumba kigirwamo n'abana b'incuke, hari abambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, kandi bifubitse imipira ifite amabara atandukanye. Hari intebe n'ameza, inyuma yabo hari idirishya ririmo ibirahure.

Imifuka ipakiyemo ibirayi byiza byahinzwe mu butaka bwiza, kandi mu gihe ibirayi bihinzwe neza bitanga umusaruro, ubihinze abona ibyo arya, ndetse agasagurira n'amasoko.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ingirakamaro ku gihugu muri rusange ndetse no ku muhinzi ubwe, kuko bumuzanira amafaranga, kandi igihugu na cyo kikayohereza hanze kikaba cyabona inyungu yisumbuyeho.

Umugabo w'umuhinzi wambaye agapira ka oranje n'ikabutura y'umukara afashe ku gitoki kinini cyane yahinze, akaba ari kwishimira umusaruro abona ndetse n'amafaranga yinjiza iyo abijyanye ku isoko.

Ni byiza ko itungo rihabwa amazi meza, kugira ngo na ryo rigire ubuzima bwiza, kuko iyo rinyweye amazi mabi rishobora kwanduriramo indwara zitandukanye, bigatuma ryatanga umusaruro muke.

Abantu bari guhinga mu murima urimo ibyatsi ndetse n'insina, kandi muri bo harimo umugore wambaye umupira w'ubururu, urimo akabara k'umuhondo wunamye, ndetse hari n'umugabo washyize amaboko inyuma uhagaze.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagore bambaye imyenda y'ibitenge ndetse n'indi irimo amabara y'umutuku na oranje, bari mu murima bari guhinga bakoresheje amasuka, bakikijwe n'urutoki ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Abagore babiri bari mu murima bari gutera imbuto, bambaye imyenda iri mu mabara y'umukara, umweru, ndetse n'umuhondo, bakikijwe n'urutoki ndetse n'igishanga.

Imifuka myinshi iri mu cyumba igiye igerekeranyije, kandi iri mu mabara agiye atandukanye, hari ifite ibara ry'umweru kandi hari n'indi ifite ibara rya kake.

Umugore uri kugosora imyaka, ndetse yambaye umupira w'umuhondo yifubitse undi ufite ibara ry'ubururu n'umutuku, kandi hirya ye hari abandi bicaye ndetse hirya yabo hari insina.

Abantu babiri bahagaze mu murima w'intoryi. Bombi bafite intoryi mu biganza byabo. Kandi harimo umugore ukenyeye igitenge, mu mutwe yambayemo ingofero. Inyuma y'uwo murima w'intoki hari ibiti.

Mu isoko ahacururizwa ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bintu by'amoko menshi, hari ibihaza ndetse hari n'ibijumba bigiye bifunze mu mifungo, iruhande rwabyo hari umugore uri kubicuruza.

Ahantu harambitse imineke igiye iri mu maseri atandukanye kandi imineke ni imwe mu mbuto ziribwa kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza banirinde indwara zituruka ku mirire mibi.

Ahantu hari ibiti by'amoko agiye atandukanye ndetse ibyo biti biziritseho ihene, zimwe zifite ibara ry'umukara kandi zifite n'amahembe ndetse hirya y'aho hari ibyatsi byumye.

Ubworozi bw'amatungo magufiya harimo ingurube bugirira akamaro ababukora kuko bubafasha gukemura ibibazo byabo bya buri munsi bitabagoye, kandi bakaba basagurira n'amasoko.

Ikiraro kirimo inka ndetse imbere yacyo hari abantu bahagaze, harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ifite ibara ry'umukara kandi hari n'ikigega gifata amazi ndetse icyo kiraro cyubakishije ibiti.

Abantu batatu bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, umukara ndetse n'ayandi, bashikamiye inyana, aho bari kwikata amahembe kugira ngo izakure neza, iruhande rwabo kandi hari igicuba kijyamo amata.

Inyamaswa z'agasozi ziba mu ishyamba harimo inguge ndetse n'izindi, zizana ba mukerarugendo bityo bagatanga amadorari yifashishwa mu guteza imbere ibikorwa remezo bitandukanye.